Abantu benshi bicaye ahantu kwa muganga aho harimo abambaye imyenda y'umutuku yi'icyatsi ndetse n'umweru imbere yabo hari inyubako ifite amabati y'umutuku.

Abantu benshi bahagaze hamwe harimo umu mama ndetse n'abana bigaragara ko bari kuvuga ukuntu habayeho uburyo bwo gutaha, ikigo cyita ku bana ndetse kigacugwa n'imikurire yabo m'u Rwanda cyitwa Unicef.

Aba bantu basoje amahugurwa bari gufata ifoto y'urwibutso yo gutanga raporo ko amahugurwa yagenze neza cyane, niyo mpamvu bari kugira ngo bazajye bibukana uko bayakoze.

Utu ni dukoresho tuba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi, turasa amabara y'umweru n'icyatsi, haba harimo imiti bifashisha iyo bagiye gutera umuntu urukingo.

Abantu batandukanye bicaye bari ahantu mu cyumba cy'inama bazengurutse ameza asa ndetse ariho igitambaro cy'umweru hariho na mudasobwa, bakaba bari mu nama yiga ku buvuzi muri rusange.

Umusaza w'umuwisilamu aho yambaye akagofero ka isilamu ari kumwe n'umugabo wambaye ingofero w'umutaburiya iyo ngofero ikaba idafashe mu maso z'ubururu ari kuvugana nawe ibintu bitandukanye.

Abantu batandukanye bicaye ahantu mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ikositimu ndetse akaba afite indangururamajwi mu ntoki inyuma ye ari icyapa cyanditseho minisiteri y'ubuzima aho yanditseho insanganyamatsiko bari kuvugaho yita ku buzima bw'aba bantu.

Abantu benshi bicaye bahanze amaso umuntu uri imbere yabo uri kugira icyo ababwira w'umugore bigaragara ko ari umuganga yambaye n'itaburiya isa umweru.

Umwana ukiri muto bajyanye gukingiza ni byiza kujyana umwana kwa muganga hakiri kare bakamukingira indwara zigiye zitandukanye harimo iseruna rebeyore hakazamo kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'izindi ndwara bityo bigatuma umwana wawe umukingira.

Aba ni abagabo babiri bicaye ku meza ari gusa umuhondo, buri wese imbere ye hari agacupa k'amazi bose bambaye amakositimu, hirya hari idarapo riri mu mabara y'ubururu, icyatsi n'umutuku, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza inama bari kwigaho.

Abantu bicaye bakoze uruziga batandukanye, aho harimo abambaye amashati y'icyatsi, ubururu, umutuku, umweru ndetse n'umukara n'umuhondo, harimo umudamu witandiye w'umwisilamu, bigaragara ko bari mu nama, inyuma yabo hari amarido asa ubururu bwijimye.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ari guseka, aho ari kwakira umuntu waje amugana wambaye umupira w'iroza, akaba afite n'umwana mu ntoki, ni byiza kuvuza umwana hakiri kare mu mugihe ukibona ibimenyetso mpuruza.

Abantu batandukanye bicaye bari mu nama imbere yabo hari abandi bantu b'abagore batatu bagera muri bane n'umugabo umwe bari bakoresha ikiganiro inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho national nairok eve finansing akaba insanganyamatsiko bari kwiga hirya hari undi mugabo wambaye ikositimu na karuvati y'umutuku.

Umugabo uri kugaragara wicaye ku jerekani yambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umweru yatebeje. Ari kureba imbere. Ari guseka aho yagiye kuvoma ku ivomero rusange. Inyuma ye hari kugaragara ibyatsi byinshi cyane.

Ahangaha turikureba abantu benshi bambaye impundu mpuzankano bigaragara ko bashoboye kuba ari abaganga hakaba hari n'undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru ubakuriye inyuma yabo ari ibiti birebire cyane.

Umugore umujyanama w'ubuzima yambaye akajiri k'abakorerabushake n'uturindantoki afite agapima bushyuhe ari gupima umwana umugore afite ngo arebe ko atarwaye covid cumi n'icyenda.

Ubuvuzi bugomba gutezwa imbere ku isi. Nkuko tubibona, turi kubona umubumbe w'isi, aho ukikijwe n'utubara, uturongo dutatu turi mu ibara ry'ubururu n'utw'icyatsi.

Inyubako nziza cyane ngari, iteye amarangi y'umweru ku bikuta, hakaba harimo abantu benshi ndetse harimo n'umugore uhagaze wambaye ibitenge acigatiye, umwana afite n'igipande mu ntoki.

Umukobwa wicaye ku ntebe kwa muganga arambitse ukuboko ku gitanda aho bamushyizeho igipira cy'umukara gipima umuvuduko w'amaraso, hari abaganga babiri ndetse n'intebe y'umukara inzu barimo irima amakaro y'umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amayobera, hari iyubakitswe mu buryo bw'uruziga ndetse n'indi iri kurenga isakaje amabati y'ubururu. Hari utuyira tujyamo twiza cyane ndetse hari n'ubusitani bwiza buteye amabengeza.

Umuntu utari kugaragara mu maso aho yagiye kwa muganga bakaba bari kumutera urushinge, umuntu uri kurumutera yambaye ishati y'amaboko y'icyatsi ndetse n'udupfuka ntoki tw'umweru biragaragara ko ari kumukingira covidi cumi ni'icyenda.

Abantu batandukanye bicaye bari mu nama bakaba bazengurutse ameza abaje mu giti, imbere hari umugabo wambaye ikositimu na we wicaye ku ntebe y'umukara ari kubakoresha iyo nama, mu kaboko ke k'iburyo hari idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi ndetse buri wese imbere ye hategeretse amazi yo kunywa.

Umumama wambaye iribaya, yajyanye umwana kwa muganga, none muganga ari kumwitaho, aho ari kumuha imiti igihe itandukanye, ni byiza kujyana umwana kwa muganga kumuvuza igihe cyose ubonye kimwe mu bimenyetso mpuruza.

Abana bambaye udupira tw'umuhondo, hakaba hari abayobozi ndetse harimo n'abashinzwe umutekano b'abapolisi bari kugenda babanywesha ikivuguto, ubu ni uburyo bwo kurwanya imirire mibi mu bana bakiri bato b'u Rwanda.

Aha turabona amaboko y'umuntu wambaye udupfukantoki. Akaba afite akantu wagira ngo ni urwembe, ari gutunganya utuntu imbere ye dusa umweru. Izo ga zirasa ubururu.

Abantu b'abaganga batandukanye bambaye impuzankano z'ubururu n'umweru n'udupfukamunwa, bari mu nyubako yabugenewe isize amarangi y'umweru aho bafite udukarito mu ntoki turi mu mabara y'umweru ndetse n'igitaka.

Umwana ukiri muto ahafite igicupa kinini kinywa amazi akaba ari kuyamena na mbere y'inyubako isize amarangi y'umukara ndetse yubakishije amatafari hirya ye indi nyubako yubakishije buroke sima hasi hari ibintu byinshi bitandukanye igaragaza ko ruhande.

Sare iberamo inama . Hicayemo abantu benshi batandukanye ,higanjemo abambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu bafite impapuro mu ntoki . Biragaragara ko ari abajyanama b'ubuzima.

Ishusho y'ubururu irimo ikiziga kigaragaza umubumbe w'isi kirimo ishusho y'umwana ndetse n'umugore mu ibara ry'ubururu bari kurebana, ikaba igaragaza ikirangantego cya yunisefu.

Abakobwa bane n'umugabo umwe bifotoje bishimye, bambaye imyambaro y'impozankano isa ubururu hakaba hari imbere yabo icyapa cyanditseho inisefu inyuma hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Abana bambaye impuzu mpuzankano, harimo abakobwa bane n'abahungu babiri, bakaba bafite udukombe mu ntoki, bari kunywa amazi, bari imbere y'ikigenga aho bari kujya barafungura bakanwa amazi, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu.

Aha ngaha hari kugaragara umukecuru wicaye umuganga amufashe urutoki, bigaragara ko agiye kumupima indwara. Hirya hari abandi baganga batandukanye bari gukora utundi tuntu twabo ndetse bari gupima n'abandi barwayi bahari.

Abantu babiri baje kuvoma b'abagore, hari amavido y'abo menshi atandukanye, inyuma hari insina ndetse n'ibindi byatsi bihari.

Aba bana bafashwa na inisefu, bambaye imipira bahawe kugira ngo nyine bagaragare babashe gutandukanywa n'abandi bana, hanyuma bajye bitabwaho bahabwe imibereho myiza, ndetse bagire n'ubuzima bwiza cyane.

Abantu bagera muri bane bateranye bari mu nama. Buri wese afite mudasobwa imbere ye ku bagabo bari ku mpande. Abagore imbere yabo bose bahateretseho amazi, harimo umwe ufite indangururajwi ari kuvuga, inyuma yaho hari amarido asa ubururu.

Aba ni abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama aho bakurikiye inama, inyuma hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho hashushanyijeho n'umugore, hakaba ari umugabo mo hagati uri gutambukamo bigaragaza ko ariwe uri kubakoresha iyo nama.

Umugore ubyibushye cyane wambaye agapfukamunwa n'agapira k'umweru n'isaha ku kuboko ari kwa muganga aho bari ku mutera urushinge bamukingira, akaba afite ubwoba cyane.

Umwana uri kwikorera indobo, avuye kuvoma amazi ku ivomero rusange. Imbere ye hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, ufite ingata ugiye kumukorera. Hirya hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ni mu cyumba cy'inama aho buri wese imbere hateretse amazi bari kugenda baganira ku ngingo runaka imbere yabo hari icyapa cyanditseho amagambo atari kugaragara neza ku nkuta zirasa umweru ndetse harimo n'umukandara udasa umukara.

Aba ni abantu batandukanye bicaye bakikije ameza, aho bari mu nama imbere yabo buri wese hakaba hateretseho ikirahure kinini cy'icyo kunywa, hari n'amabara y'icyatsi ku meza ndetse n'umweru. Bari kuganira uko serivisi zitangwa mu by'ubuvuzi.

Aba ni abagore bo mu cyaro bari gukora isuku yo mu ntoki bakoresheje indobo, n'ako ka boto, bari kwisukura nyine bakora isuku, harimo umuhungu mukuru wunamye, n'akandi kana gatoya kari kumufasha kwisukaho amazi, bari iruhande rw'inzu.

Umugore wambaye agapira k'ubururu gatambitsemo uturonko tw'umweru. Akennye n'igitenge cy'icyatsi aho ari kuvoma amazi ku ivomero rusange yifashishije injerekani hirya ye hari agasozi kariho ibyatsi n'ibiti bitandukanye.

Abana bane bari guseka barebye hejuru bahuje amaboko bayahurije hejuru y'ibasi . Impande yabo hari umugabo wambaye bote, ufite igikombe mu ntoki uri kubasukira amazi . Biragaragara ko bari gukaraba intoki.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye utujiri duza icyatsi ndetse n'udupira za oranje cyangwa ibara ry'icunga bateraniye ahantu hamwe harimo abagabo babiri bafatanye n'abandi bafite abana bose bakaba bari kwifotoza bishimye.

Abantu bicaye bari ahantu mu nama, aho buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse afite n'agakayi ari kwandikamo buri wese hagati yabo hari igitambaro kibatandukanyirije gisa icyatsi kirambitseho uturabyo.

Umwana ukiri muto uri guseka akaba ari gukaraba intoki ze muri kandagirukarabe irimo ibase y'umweru n'indobo y'icyatsi, inyuma ye hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Ni byiza kugira isuku ugatoza umwana gukaraba intoki kuko bimurinda indwara ziterwa n'umwanda.

Uyu muntu ari kuvoma ku mugezi, amazi ari guturuka mu bihombo ajya mu ijerekani. Ni umuturage udafite umusatsi uri ahantu hari umusozi nyine ni ahantu ku mugezi mu gishushanga hari ibyatsi.

Ahantu hatangirwa amazi mu buryo bwa rusange, hakaba hari ivomewe ryiza cyane, hariho abagore babiri bunamye bari kunywa amazi, n'amajerikani abiri, n'undi umwe wambaye agapfukamunwa n'agashati k'ubururu ari kubavomera hirya hari ibiti.

Abana bagera kuri bane baje kuvoma ariko muri bose ntanumwe ushoboye kuvoma akoresheje wa mugezi bapomba. Hari umugore wahageze w'umutima mwiza ari mu modoka abona byabananiye none yavuyemo ari kubavomera, ni byiza ko twese tugira umutima mwiza nk'uyu.

Abantu batandukanye harimo abicaye abasutamye ndetse n'abahagaze bambaye imyambaro y'umweru bigaragara ko bari mu kigo cyo kwa muganga, bari kwifotoza aho barangije bakorana, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho rbc n'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abana benshi bambaye udupira dusa oranje, bakaba bari kumwe n'umuntu wambaye akajiri, hirya hari umusirikare, bakaba bafite ibyansi bari kugenda babaha amata, kugira ngo barwanye bwaki n'igwingira ry'abana.

Nk'uko bigaragara uyu ni umuyobozi ushinzwe ubuzima mu Rwanda, ahagaze imbere y'uruvugiro kuri ruhangwamboni aho afite indangururamajwi yo kubwira abantu bitabiriye iyo nama, hirya ye intebe eshatu zihari zibereye aho, hari n'uducupa tw'amazi, inyuma ye hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko ari kwigishaho.

Aba ni abaganga bari gufata ifoto bakorera Nyabageni Awutireci cyangwa se Masi sikiriningi. Baravanze bakoresheje jenda balanse abakobwa n'abahungu...

Aha ni aho bapimira abana ngo barebe ko bafite ibiro byuzuye, hari umugabo uhagaze bigaragara ko ari kubapimira abana babo hari n'abagore bicaye bazanye abo bana.

Aha ni ahantu bari gupakira imifuka igiye itandukanye y'umweru. Hari abantu benshi bari gukora ako kazi. Aho tubona abagore babiri bateruye umufuka umwe, bakaba bagiye kuwuhereza umugabo uri imbere ngo awupange hamwe n'indi.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvumero rusange hari abantu bagiye gushaka amazi, Harimo abana ndetse n'umugabo n'umukobwa wambaye akajipo k'ubururu. Bigaragara ko bose barangaye nta n'umwe uri gupompa ngo amazi aze. Hari n'amavido atandukanye baje gushakiramo ayo mazi.

Abantu batandukanye b'abajyanama b'ubuzima aho bari gukoma mu mashyi, inyuma yabo hakaba hari shitingi y'umweru. Biragaragara ko bari mu nama, bakaba bageze mu mwanya wa morali. Imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane ndetse hari n'umuntu uhicaye wambaye agapantaro n'agashati k'umweru n'umukara.

Aha ni mu kiyaga aho abantu bari kuvoma badubitse amazi; ndetse hari n'abari kuhogereza amagare. Ibi si byiza kuko byangiriza ibidukikije kogereza cyangwa kugirira umwanda amazi, byangiza ibinyabuzima biba mu mazi nk'amafi ndetse n'ibindi. Ibi rero dukwiye kubyirinda.

Abana b'abanyeshuri baje kuvoma amazi, bambaye imyambaro y'impuzankano iri mu ibara rya kaki, baje kuvomera amazi mu ndobo zisa umuhondo, hirya yaho hari ibiti ndetse n'imikindo bitanga akayaga.

Leta yashyizeho gahunda yo kugira buri wese agatanda k'amasahani. Nibyo rwose no mu cyaro barabyubahirije nkuko tubibona hano hari agatanda kanitseho amasahani, hirya hari insina ndetse hari n'uruzitiro.

Umwana uri guseka ndetse n'abandi bagenzi be; biragaragara ko bashobora kuba bafite ikibazo cyo mu mutwe, kuko uyu mwana ukuntu ari guseka, ntabwo bisanzwe. Hari n'abandi bambaye udupira tw'umuhondo, umweru, ubururu, ndetse n'icyatsi.

Abantu batandukanye bambaye udupira tw'ubururu bigaragara ko hari aho bari kwifotoza ahandi bari gukora umuganda ndetse ahandi bari kubaka akarima k'igikoni haruguru hari ahandi umugabo n'undi w'umuzungu bahagaze imbere y'inyubako bafashe ku kimera.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umutuku ikabifite imireko y'icyatsi hakaba hari urugo rw'amabuye ruho ibyuma iyo gusa icyatsi n'inyubako itangirwamo serivisi z'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze batandukanye aho imberebiri yabo ku meza hari ibitambaro bisa umukara ndetse harambikwa ho n'ibintu bitandukanye bari kuganira ku buryo bakwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Aha ni mu cyumba cy'inama aho harimo umugabo uri gukoresha inama. Harimo n'abantu benshi bitabiriye iyo nama. Harimo abamama bahetse abana ndetse n'abandi bambaye imyambaro mu mabara atandukanye. Umugabo uri gubakoresha inama ahagaze imbere yambaye agapfukamuwa ari gutunga urutoki abandi bantu bari hirya abatangaho urugero.

Abantu bagera muri batatu bicaye imbere y'ameza. Buri wese imbere hateretseho amazi. Uwo ku ruhande hateretseho na telefone barakurikiye bari kureba umuntu uri imbere uri kubagezaho ikiganiro Imbere hari icyapa byanditseho ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

umudamu wambaye amadarubindi ndetse n'imisatsi y'umukara. Yambaye agakanzu karimo amabara y'umuhondo n'ubururu. Akaba afite na baji mu ntoki ari kwerekana icyo akora.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu mu cyumba cy'inama aho bari kwifotoza bamwe barahagaze abandi baricaye, inyuma yabo hari ikirango cyanditseho ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC.

Utuziga turimo abantu bagiye batandukanye, turi ku cyapa gisa ubururu cyanditseho amagambo y'umweru, hamwe hari umwana, ahandi hari abantu bane, ahandi hari umuntu wunamye, umugore utwite ndetse n'umuntu uri gutekereza.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama aho bari kwifotoza, hejuru yabo hakaba hari parafo isa igitaka n'ameza abaje mu mbaho. Bari kwifotoza bigaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye, bakaba bari gufata amafoto.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ameze nk'uwambaye ubusa kuko yambaye utwenda twacikaguritse, akaba ari umugabo afite imisatsi yateretse nk'iy'abasitari, hari umugabo uri kumusuhuza bigaragara ko ashinzwe kuganiriza abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bari kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo: "Turwanye ihohotera rishingiye ku gitsina."

Aabantu benshi batandukanye harimo abazungu n'abirabura abenshi bambaye udupira dusa ubururu, biragaragara ko bari kwifotoza bari bari mu nama none irarangiye bari gushaka ifoto y'urwibutso, bahagaze ahantu hari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Abantu batandukanye bambaye impuzankano zisa ubururu hejuru. Bari kwifotoza imbere y'inyubako itangirwamo serivisi zo kwa muganga. Bigaragara ko bari bari mu nama none bakaba bari gufata ifoto ngo babone uko batanga raporo.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro n'agapantaro k'umweru ahetse igikapu, ahagaze imbere y'icyapa gisa umweru cyanditseho ngo CARAES, ahantu hari ibitabo byita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Uyu ni umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe aho yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ibisatsi bimusumba, akaba ari guseka nta menenyo agira na make ndetse arirabura, inyuma ye hari abandi bantu bambaye amashati y'ubururu.

Umwana uri kurira hirya ye hari umuntu ufite utuntu mu ntoki mu kuboko kw'ibumoso, hirya ye hari abandi bantu benshi cyane ndetse n'akandi kana kagufi, umwana uri kugaragara ari kurira bigaragaza ko afite ikibazo, uko bigaragara ashobora kuba arwaye mu mutwe.

Abantu bateraniye hamwe bafite icyapa mu ntoki kiriho amagambo atagaragara neza, ariko bigaragara ko bari kwifotoza bari bari mu nama iri kwiga ku nsanganyamatsiko yanditse kuri iki cyapa.

Uyu ni umubyeyi wicaye mu nzu y'ibitaka idapavomye, aha imbere ye hari umusambi yicaye ku gatebe k'urubaho, asa nkaho afite ibyo ari kwitegereza(ibintu biri imbere yiwe), yicaye munsi y'idirishya.

Umugore wambaye ibitenge by'icyatsi yiteze n'ikindi gitenge ari kumwenyura aho bigaragara ko asa n'ufite ubumuga bwo mu mutwe bigaragara ko yacanganyikiwe atameze neza no ku isura biragaragara.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama aho barimo gukurikiza amategeko n'amabwiriza bari guhabwa, imbere yabo hahagaze umugore bigaragaza ko ari kubigisha kubijyanye n'uko bakwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Abantu batandukanye harimo abana bakiri batoya bakikije umuntu w'umukecuru ubona warakaye ndetse bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza kuba hafi umubyeyi aho kumushungera aba bana bafite umutima mwiza.

Umukobwa w'umuganga aho yambaye agakositimu gasa umukara ndetse n'agakanzu k'umutuku akaba ari kureba imbere, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo twite ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Aha ni mu cyumba cy'inama, aho hari umukobwa wambaye agapira k'umutuku, n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umutuku, aho ari gusatira umumama ufite marete ndetse n'indangururamajwi mu ntoki, ari kugira icyo avuga, abantu bari aho bose barakurikiye.

Aha turabona ishusho y'umuntu uri mu ibara ry'umweru, uri gutekereza cyane, biragaragara ko ashoboye kuba afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ari gutekereza kandi bavuze ko umunsi wo kwizihiza uwo munsi w'ubuzima bwo mu mutwe, ari ku itariki icumi z'ukwa cumi.

Umukecuru bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, aho yicaye ahantu agenda atora amashashi, atora amacupa atandukanye, yambaye imyambaro myiza idasukuye n'ibikweto byashaje. Hirya hari abandi bantu bicaye n'abandi bari kunyuraho.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki akaba yambaye ishati y'umweru afite indangururamajwi ari kuvuga yitwa Uwihoreye kirisite akaba ari umuntu w'inzobere mu by'ubuvuzi.

Umumama wicaye ahantu afite abana babiri, imbere ye hateretse intara iriho ingemeri irimo ibiribwa bigiye bitandukanye, bicaye ku nzu yo mu cyaro aho iteye ibyondo n'urugi rukaba rufunguye.

Abantu benshi bicaye harimo abandi bahagaze inyuma, bigaragara ko bari kwifotoza. hirya yabo hari ibyapa byanditseho ibintu bigiye bitandukanye. Hari ahanditse kaminuza y'u Rwanda n'ikirango cyayo ndetse n'ibindi birango bigiye bitandukanye.

Abantu benshi batandukanye bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi, bari gutambuka mu muhanda, harimo umwe uri imbere ufite indangururamajwi ndetse n'abandi babiri bari inyuma bashinzwe umutekano. Bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo "kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye." Hariho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'icya polisi y'igihugu.

Turi kumwe, hano bari kutwereka uburyo abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe na bo ari abantu nk'abandi. Tugomba gukorera hamwe, tugaharanira ejo hazaza heza hamwe n'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo bigaragara nk'aho ari umuyisiramu. Yambaye agashati gasa icyatsi. Inyuma ye hari abantu batandukanye bahagaze. Nk'uko bigaragara, uyu mugabo ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe kuko ari kureba nk'umuntu utuzuye.

Umukecuru ushaje cyane wambaye agatambaro k'umweru, hirya hari ibyatsi biri kurenga bigaragara. Nk'uko uyu mugore bigaragara afite uburwayi bwo mu mutwe, kuko uri kubona ko atari kugaragara nk'umuntu muzima.

Umukecuru wambaye amadarubindi, akaba yambaye n'akabaji gasa ubururu, yambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko inyuma hari abantu bari mu nama bamukurikiye, buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi bose bari mu nama yiga ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Umusore wambaye agapira k'umweru aho ari kwireba mu ndorerwamo afite ubudodo bakoresha basukura amenyo. Ni byiza rero kugirira isuku amenyo yawe kuko bituma ugira ubuzima bwiza.

Umuntu ufite agapfukamunwa ndetse n'udodo yambaye n'udupfukantoki arikwereka umugore uburyo wakoza amenyo ukoresheje urudodo umugore nawe ari kumukurikira yambaye umupira w'umweru urimo turonko tw'umukara.

Umusore uri gusukura amenyo akoresheje urudodo, bigaragara ko ari guseka ndetse amenyo ye ni meza cyane. Ni byiza cyane gusukura amenyo ukoresheje urudodo kuko bituma amenyo yawe amera neza, bikayarinda gusigaramo imyanda na micye, akaba yambaye agapira k'umweru.

Ni byiza koza amenyo yacu dukoresheje urudodo, nk'uko tubibona hano hari umusore wishimye cyane ari guseka yambaye agapira k'umweru afite urudodo ari gusukura amenyo ye kugira ngo amere neza.

Abantu bari ahantu haberiye inama, hakaba hari shitingi y'umweru iri mu mabara y'ubururu n'umweru, yanditseho ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda hari abantu benshi batandukanye ndetse n'imyunzani buri wese ari kugenda yipima akareba ibiro afite.

Umwana w'umukobwa ukiri muto, uri kugaragara ari guseka. Ari kumwe n'abaganga bagiye kumukura amenyo arwaye. Ni byiza cyane gukura umwana amenyo hakiri kare kuko hahita hamera andi.

Aha ni mu nzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, aho hatangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane bakura amenyo, hari intebe abarwayi yicaraho noneho bakamukura amenyo byoroshye, izo ntebe ziba zifite n'amapine.

Ahantu hari icyumba gitunganyije neza, nk'uko bigaragara ni kwa muganga, kuko harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi, iyo nzu iri kwakamo amatara y'umweru ndetse n'ibikoresho byinshi bihari birasa umweru, harimo n'amakaro y'umweru.

Umuntu bari kugaragaza w'igikanka, aho bari kutwereka amenyo yose yose uko aba angana ndetse n'imizi yayo ukuntu iba ingana kugira ngo tugire ubumenyi buhagije ku ndwara cyangwa ku menyo yacu.

Umugabo wagiye kwa muganga kwishyirishaho amenyo mashyashya kugira ngo abe yari asanzwe ashobora kuba afite ikibazo bakaba bagiye kumuha andi mashyashya, ari guseka areba umuganga ndetse yishimye.

Umugore wambaye agakanzu k'umweru n'imisatsi ya kizungu ya menshi, aho afite uburoso buriho umuti w'amenyo ari kuyoza nk'uko bigaragara ari kureba imbere yishimye cyane ndetse ari kumwenyura ari kwireba mu ndorerwamo.

Umwana uryamye bari kumukura amenyo, uri kumukura amenyo ni umuganga bigaragara ko yambaye udupfukantoki tw'umweru, umwana nawe arebye hejuru arateze ngo bamukure amenyo kuko ayarwaye.

Uyu ni umurwayi uri kwa muganga ufite ikibazo cy'amenyo, yaje kwikozamo atameze neza arwaye, muganga ari gukoresha ibyuma byabugenewe, yambaye ga kugira ngo abone uko amufasha kandi na we bitamugizaho ikibazo.

Umwana ukiri muto, ufite uburoso, ari koza amenyo yiwe, yicaye ku ntebe isa ubururu yegamye, yambaye n'ingofero. Ni byiza gutoza umwana koza amenyo hakiri kare, kuko bituma akurana ubwenge.

Ni byiza cyane kujya kwa muganga igihe ufite uburwayi bw'amenyo bakayakura. Nk'uko tubibona uyu mugabo yagiye kwa muganga none basanze arwaye iryinyo, muganga akaba ari kumufasha kurikura. Muganga yambaye ibitaburiya y'ubururu n'udupfukantoki tw'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, akaba ari inzobe.

Umusore wambaye agapira ka runiga imbwa w'inzobe afite akantu kagaragaza amenyo, yagatunze urutoki ndetse ari guseka arishimye cyane.

Umwana ukiri muto ari kumwe na mama we, bose bafite uburoso bakoresha buriho umuti w'amenyo, bari kuyasukura, ubona ko umubyeyi yatoje umwana kugirira amenyo ye isuku hakiri kare, ni byiza gutoza umwana kugira isuku ,ariko bose bafite imisatsi y'umukara.

Umwana ukiri muto w'inzobe aho yasamye hari ikiganza cy'umuganga cyambaye ga kiri kureba amenyo ye ko ameze neza iryo basanga ritameze neza baraza kurikura kugira ngo hazamere irindi kubera ko akiri muto.

Iyi ni ifoto y'igikanka ishinyitse, aho turi kubona amenyo yose n'ibice biyagize, tukabona imizi y'amenyo yose. Ni byiza rero kumenya ibice by'amenyo, aba agize umubiri w'umuntu.

Ni umwana ukiri muto wajyanywe kwa muganga gukurwa iryinyo, arasamye, hari umuganga wambaye amadarubindi, ufite udukoresho mu ntoki n'udupfukantoki tw'umweru, ari kureba iryo ryinyo ngo arekure hakiri kare.

Abantu bagaragara ko bageze mu za bukuru, harimo benshi bambaye impuzakano z'umukara n'umweru, bakaba bari kugenda bakora utuntu tw'udusipo mu muhanda, biragaragaza ko bishimye ndetse banezerewe, ibi ni byiza ku bantu bageze muri iki kigero.

Umugore ugeze mu zabukuru wambaye amadarubindi, yicaye ku ntebe yambaye n'impeta, inyuma ye hari umwana uri kumureba w'umukobwa w'inzobe wambaye imyenda y'ubururu ari kumusekera yishimye cyane.

Umukecuru ufite isaha ku kuboko aho yatunzeho urutoki, ari kurebaho yambaye imyenda y'igitaka, imbere ye hari ameza abajwe mu biti, bigaragara ko ari iwe yegereye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ku bantu bakuze ni byiza cyane, nk'uko tubibona hano hari umusaza muganga yajyanye ku byuma bikoresha siporo abantu bageze mu za bukuru, umusaza akaba yambaye agapira k'umweru n'agapantaro k'umukara n'umukandara w'umweru.

Abantu bageze mu za bukuru baba bakeneye kwitabwaho ha bagakoreshwa imyitozo ngororamubiri hano turahabona umuntu wambaye amadarubindi ufite imisatsi yimye n'agapira k'umweru ara kumwe n'umukobwa w'umuganga wambaye imyambaro y'umutuku aho yamuteruje afuma gatuma azana imbaraga mu kuboko.

Umwana ukiri muto wambaye agapira k'umweru ateretse n'imisatsi, ari kumwe na mama we na we yambaye agapira k'umweru bari ku meza bari guseka. Bafite udukinisho tw'umweru. Ni byiza ko umwana umukinisha ukoresheje utumenyetso kuko bikangura ubwonko bwe.

Abantu babiri bari gutambuka mu muhanda; bigaragara ko bari muri siporo. Harimo umukecuru wambaye umupira w'ubururu ndetse witeze n'igitambaro cy'umutuku n'umukobwa ukiri muto wambaye amatiriningi y'umukara n'umweru bari guseka. Hirya hari ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti.

Umusaza ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umukobwa ukiri muto ufite imisatsi ya kizungu, aho ari kumwereka urupapuro bari gusoma, imbere yabo ku meza, hari izindi mpapuro nyinshi, inyuma yaho harimo intebe zigiye zitandukanye, bigaragara ko ari kwa muganga.

Uyu musaza ntabwo afite imbaraga ararwaye, aba bantu babiri ni abana b'iwe, bari kumufasha kwiyicara kugira ngo nyine umugongo ukomere, kubera ikibazo afite cyo gusaza umugongo ugenda urwara utameze neza.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, aho ari kwiyitaho akarya ibiryo birimo indyo yuzuye, ari guseka, arishimye, yambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko afite ubuzima buzira umuze. Ibikuta by'inzu birasa umweru na byo.

Umusaza n'umukecuru bicaranye ku meza bari kurebana, bari kurebana ubwuzu bigaragaza ko bakundana kandi bishimye cyane. Bakaba bafite amafunguro imbere yabo ku meza atandukanye kandi agizwe n'indyo yuzuye. Umukecuru yambaye agapira k'umutuku, umusaza yambaye agapira k'umweru.

Umusaza ugeze mu za bukuru wambaye amadarubindi n'agashati akaba afite inda nini, ari kumwe n'umuganga ukiri muto. Aho ari kumusindagiza akamuha ubufasha bwose bushoboka kugira ngo agire ubuzima bwiza. Igitanda yicayeho kiriho supenete ndetse hari n'akabati imbere yaho.

Abantu benshi cyane bigaragara ko bageze mu za bukuru kuko bose bari hejuru y'imyaka mirongo itanu, bicaye ahantu munsi y'igiti k'inganzamarumbo aho bari mu nama. ku bigaragara iyi nama yauriwemo n'ababyeyi bari kungurana ibitekerezo.

Umuntu wambaye agapira k'icyatsi, afashe telefoni ari kurebamo imbere biragaragara ko ageze mu gihe cy'izabukuru akaba ari kuruhukira muri terefone.

Umusaza ushaje cyane ufite imvi yambaye amadarubindi, umupira w'umweru n'ishati y'icyatsi, aho ari kwandika mu makayi kugira ngo yandike inkuru azajya arasoma zizamufasha kwiyitaho neza.

Ni umusaza ugeze mu za bukuru akaba yicaye ku ntebe areba imbere, inyuma ye hari umwana w'umukobwa bigaragara ko ari umuganga umusunitse ku kagare ka siporo bose bareba imbere. Hirya hari abandi bantu batandukanye harimo umuganga n'umurwayi bari kuganira n'abandi bagabo b'abazungu babiri bicaye ku ntebe z'umukara.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, aho ari umwana w'umukobwa umufashe amaboko ari kumugorora, uwo mukecuru ari guseka bari mu nyubako y'ibirahuri, hanze hari gusa umweru.

Umusaza ufite imvi z'ubwanwa ari kumwe n'umukecuru nawe ufite imisatsi yabaye imvi. Umusaza yambaye agashati k'umweru, umukecuru yambaye agapira k'icyatsi, bafite ibirahuri imbere yabo. Umukecuru ufite agapapuro mu ntoki bari kukarebaho we n'umusaza bagasesengura.

Umusaza ugeze mu zabukuru, wambaye amadarubindi, n'agashati k'umutuku, ari ku meza, ari kumwe n'umukobwa we, bari gusangira barya indyo yuzuye igizwe n'imboga ndetse n'imbuto, hari n'ikirahuri impande y'abo, kirimo amazi, bari kurebana.

Abantu babiri bifotoje bari kumwe, umwe ni umusore w'umuganga kuko afite agakoresho k'abaganga ari guseka, yambaye agapira k'ubururu, undi ni umubyeyi ugeze mu za bukuru nawe wambaye umupira w'ubururu afite inkoni.

Abantu babiri batandukanye harimo umusaza ndetse n'umukobwa ukiri muto yicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza akoze mu giti arambitseho agacupa k'umukara, bombi bari kureba muri telefone aho umusaza ari kwereka umukobwa ibiri muri telefoni ye umukobwa na we ari kureba yakurikiye ariko bigaragara ko ari umuganga.

Familly planning, ubu ni uburyo bwiza bwo kuboneza urubyaro, aho umubyeyi abyara abana ashoboye kurera, ukabyara babiri cyangwa batatu bitewe n'ubushobozi ufite bwo kuzabitaho.

Abantu batandukanye, bamwe bicaye abandi basutamye n'abandi bahagaze, bakaba bahuriye ahantu mu cyumba gikunze kuberamo inama kwa muganga, kiri kwaka amatara, nk'uko bigaragara bari kwifotoza, hirya yabo hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Ahantu hari icyapa kiriho inyandiko zanditse mu mabara menshi agiye atandukanye, hari izananditse mu mabara y'icyatsi, ay'umukara, ay'ubururu, ay'umuhondo, ndetse n'ay'umutuku.

Abantu batandukanye aho harimo umwe uhagaze wambaye ikositimu usa n'umuzungu, n'undi wicaye na we wambaye ikositimu ry'umukara, bakaba batanga ubuvuzi cyangwa ubufasha ku buzima.

Umusaza wambaye imyambaro y'umukara, bigaragara ko abayisilamu ari kumwe n'abaganga babiri, bambaye imyambaro y'ubururu, hirya hari abandi bantu batonze umuntu bigaragara ko bategereje gukurikiraho nyuma y'uyu nguyu.

Mankey Pox Vaccine Access now, urukingo rw'inkende rwemejwe, ubu ngubu biremewe cyane rwose, biremewe neza.

Umusore wagiye kwa muganga kwikingiza Kovide cumi n'icyenda. Akaba yambaye imyambaro y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa. Hakaba hari umuyisilamu wambaye imyambaro y'abakorerabushake uri kumutera urwo rushinge, hirya hari abandi bakorerabushake benshi.

Abantu babiri bahagararanye harimo umugabo ndetse n'umugore, bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira, hariho n'icyapa cya minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Hehe n'igwingira. Iki cyapa kirakwereka ukuntu umwana agenda akurira mu nda, ibisabwa byose kugira ngo umwana abeho neza, iyi intavesheni iri kugaragaza neza ukuntu agenda akura wamwitayeho wamumuhaye ibikwiye.

Global hif semino siliz ,aha barikutwereka inama igiye kuba yiga kubuzima kurwego rw'isi yose hashushanyijeho umugabo uri guseka wambaye agashati k'ubururu n'amagambo yanditse mu mabara y'icyatsi.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bambaye amabaji mu ijosi, harimo abambaye imyenda y'umukara, Umweru, icyatsi ndetse n'ubururu, bahagaze ahantu hari tapi isa icyatsi, bakaba bari kwifotoza.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse kikaba cyanditseho amagambo ari wu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Aho avuga ngo: "Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende".

Kwiga uburyo bwo gukuburira hamwe tugakorera hamwe tukita ku buzima bw'abana ndetse tukarwanya agakoko gakwirakwiza virusi itera Sida byanyanditse mu cyapa gisa umweru byandikishije amagambo y'ubururu ndetsete n'umutuku.

Abantu batandukanye bicaye bari mu nama, harimo umugabo umwe wicaye ugeretse akaguru ku kandi, ndetse n'abamama benshi cyane. Icyumba barimo kiri mu marangi ku nkuta y'umutuku, ndetse n'ibara ry'icunga, bareba imbere bose barakurikiye.

Leta yashyizeho uburyo bwo kurwanya indwara nyinshi zigiye zitandukanye, aho barwanya indwara zirimo kanseri, sida, kanseri y'abana ndetse na covid cumi n'icyenda.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umutuku bari mu nama, imbere yabo hari umugabo uhahagaze ufite indangururamajwi mu ntoki aho ari kubakoresha iyo nama. Inyuma ye hari porojegiteri iri kwaka mu mabara y'umweru n'ubururu, aho handitseho amagambo bari kuvugaho muri iyo nama.

Abagabo babiri bari kumwe bambaye amakositimu harimo umwe bari guhereza seritifika yambaye isaha ari kumwenyura, inyuma hari icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda bigaragaza ko abagabo ari abategetsi bo mu Rwanda bita kubijyanye n'ubuzima.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba, iteye amarangi meza cyane y'umweru, ikaba ifite ibirahuri bijya gusa ubururu, ikaba ifite ubusitani bwiza ndetse na kaburimbo igenda imbere yayo iteyeho imikindo.

Abantu benshi bicaye bari mu nama bakaba bakurikiye umugabo uri imbere yabo wambaye ikoti ry'umukara. Hirya ye hari abandi babiri bicaye ku meza, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru kiriho insanganyamatsiko bari kuvugaho hari n'ikibaho cy'umukara. Inzu iteye amarangi y'umweru.

Ikigo kiri kugaragara gisakaje amabati y'umutuku, ibikuta biteye amarangi y'umweru, hari n'inyubako zubakishije amatafari ahiye, hagati yazo harimo ubusitani bwiza cyane bufite ibyatsi bisa icyatsi.

Abahanga mu bijyanye n'ubuvuzi bambaye impuzankano z'umweru n'utugofero tw'umweru n'udupfukamunwa tw'umweru tujya gusa ubururu, bari kureba ku cyuma cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu kuvura abarwayi bagiye batandukanye, hakaba harimo n'uducupa tw'umweru.

Inyubako ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo imikindo n'indabyo z'umuhondo, hakurya turi kuhabona utumodoka tw'imbagukiragutabara datwara abarwayi, hari n'iezu zisakaje amabati y'ubururu ndetse zubakishije amatafari ahiye.

Inyubako nziza cyane ifite porutaye y'inzugi z'ibyuma iriho inyugu za H ebyiri. Hariho n'ibyapa bitandukanye ndetse mo imbere harimo ibiti bitanga akayaga n'amahumbezi.

Iyi nyubako yubabatse neza cyane, ni iy'akataraboneka, ifite amatafari meza isakaje amabati meza, ku nzu yo hirya harimo ibara rya oranje hari ubusitani bwiza cyane, indabyo z'amoko yose.

Kigina herifu seta, ni ibitaro byiza cyane byubatse neza kandi bifite isuku itanga imibereho myiza ku bahagana bafasha abantu hari umubyeyi uhetse umwana waje kuhasaba serivisi reka tumwegere tumuze neza uko bikorwa.

Inyuba nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ya etage ikaba isize amarangi y'umweru n'umutuku hagati y'izo nyubako zombi hakaba haciyemo umuhanda wa kaburimbo haparitse n'imodoka inyubako yo hino ifite inkutazubakishijeje amatafari ahiye umuryango urafunguye.

Inyubako nziza cyane aho harimo ubusitani bwiza cyane ndetse n'urugo rw'icyuma bisa icyatsi hakaba harimo utuyira twoma pove tugiye dukikijwe n'amabara y'icyatsi n'umukara harimo n'amatara meza cyane.

Icyumba kigari gitangirwamo serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi harimo n'ibikoresho bigenda byifashishwa mu buvuzi hasi harimo amakaro asa igitaka hari ibirahuri bifunguye bibonerana hanze hari na kimyamya moto.

Inyubako nziza cyane iteye irangi ry'ivu iri kugendwamo n'abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umumama bari kugendamo, iyo nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, impade yaho hari ubusitani bwiza buri kugaragara neza mu mabara y'icyatsi.

Hano hari inyubako iri kugaragara yubakishijwe ibirahure iri kugaragaramo amarangi y'icyatsi ndetse n'amafoto y'abantu bagiye batandukanye, hariho icyapa cyanditseho ngo "bayi wani geti wani furi".

Ni icyuyumba kirimo amabara agiye atandukanye ndetse n'amashusho y'ibintu bigiye bitandukanye harimo intebe zisa ubururu ndetse n'umweru hakaba harimo n'andi mabara asa icyatsi, ubururu ndetse na move, imbere hari akanyeyamasyo k'igipupe gasa icyatsi ndetse n'ibara rya move n'ibara ry'igitaka.

Abakobwa bagera muri batatu bagiye batandukanye bambaye impuzankano z'ubururu n'udutambaro tw'umweru mu mutwe bigaragara ko ari abaganga. Inyuma yabo hari ibiti bigiye bitandukanye harimo n'imikindo hari n'abantu bari kurenga ku ruhande.

Aba bantu batandukanye b'abaganga bicaye mu cyumba cy'inama bambaye imyambaro y'umweru y'amatariya ndetse n'aho bari hari ibikoresho bisa umweru byinshi amatara arikwaka mu ibara ry'umweru n'ibikuta birasa umweru, ibirahuri birasa umukara wijimye.

Igitanda gifite amabara y'ubururu, ndetse n'umweru. Imbere hari akantu kameze nk'akabati kariho insakazamashusho ariko izimije, umuryango usa umweru ndetse imbere hakagaragara amashusho y'indabyo.

Iki ni ikigo cya Rwanda kansa senta cyubatse neza cyane, gisize amarangi meza gifite ubusitani bwiza cyane indabyo nziza amadirishya meza kiri ahantu heza cyane rwose.

Icyumba gisa umweru gisize amarangi meza hariho amayedo y'umuhondo ,hari agatanda abarwayi baryamaho gafite imifariso y'ubururu, hari kandi n'akandi kantu gafite amapine kariho mudasobwa n'isakazamashusho hejuru iri kwaka.

Inyubako nziza cyane irimo amabara agiye atandukanye, harimo ibikoresho biri mu mabara y'icya, ubururu, move, oranje ndetse n'umukara, hari kwakamo amatara asa umweru na purafo z'umweru, munsi harimo amakaro asa move, ubururu ndetse n'icyatsi.

Aha ni mu cyumba kiri mu mabara y'umweru kuko ibintu birimo byinshi bisa umweru, uretse insakazamashusho ndetse n'uduteme tubiri turimo dusa umukara ibindi byose bisa umweru.

Inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi harimo imwe isize irange ry'ivu, indi ruguru ifite ibikuta by'umweru n'amabati atukura, indi irasa umweru gusa iriho insina imbere yayo. Hari utuyira tujyayo tw'amapave n'ubusitani bwiza. Hakaba hari n'ifoto y'abantu batatu bari kuvayo.

Iyi nzu nziza cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ifite amatara yo kwaka harimo udutanda dufite amapine abarwayi bagendaho ndetse n'ibyumba bisa umukara hari n'amakaro y'umweru.

Ku bitaro hari umurwayi urwaye cyane urembye, nkuko bigaragara araryamye, hari inzobere mu by'ubuvuzi zamuteraniyeho, zambaye imyambaro isa ubururu, bari kugerageza kugira ngo barebe ko bamusubiza ubuzima.

Isange wani sitopu senta aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse n'imiryango yaho irafunguye.

Aba bari mu mahugurwa aho abayobozi baba bicaye imbere y'abahugurwa aho umukameramani ari gufotora cyangwa se ibiri kubabera ni ibigendanye na presco farenens inagreo of gahini rehabishnspoentar.

Aha ni ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho hari ifoto bafatiye mu muryango w'iyo nyubako, ikaba ifite ubusitaniye bwiza burimo indabyo ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru ndetse n'irangi risa nk'ivu ifite imiryango ifunguye ndetse n'ibirahuri bibonerana nk'imbere harimo umuntu wagiye kwakamo serivisi iyi akaba ari forumasi icururizwamo imiti.

Iyi inyubako ifite ibikuta bisa umweru ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Harimo bitanda bisa umutuku, intebe zisa umutuku ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo kwa muganga. Munsi hashashemo amakaro y'umweru.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, hanze haparitse imodoka nyinshi zigiye zitandukanye.

Dutebe tw'ibyuma tw'umukara imbere hari ameza abajwe mu biti hakaba hari ibikuta biriho amafoto y'abantu, ni mu nyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hasi harimo amakaro asa igitaka n'ay'umweru.

Inyubako izwi nk'ahacururizwa imiti igiye itandukanye y'abantu hakaba hazwi mu ndimi z'amahanga nka farumasi harimo imiti myinshi igiye itandukanye ndetse harimo n'amatara ariko azimije ibikuta bisa umweru ndetse n'amakaro asa umwera.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho harimo abarwayi baryamye ku bitanda bifite amapine, hari gutambukamo abaganga bagiye batandukanye, bababaza ibibazo bafite ngo babibakemurire.

Inyubako nziza cyane isa umweru, mw'imbere harimo akabati gasa umuhondo n'umutuku hakaba harimo n'amarido asa umweru ndetse n'udutanda n'intebe by'umweru, harimo n'amakaro asa umweru.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu ndetse hirya hari indi nyubako isakaje amabati atukura n'ikigega cy'umukara gihari, hakaba hari n'ubusitani bwiza, iyo nyubako ni iya Isange wune sitopu senta Remera Rukoma.

Aha ni mu ivuriro ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye hari ibishushanyo biteye ubwoba bigiye bitandukanye harimo kandi n'ibitanda abarwayi baryamaho bifite amapine n'udutebe.

Inyubako nziza cyane iteye amarange ajya gusa oranje. Imbere hakaba hari ibyatsi bigiye bitandukanye harimo n'imikindo ndetse n'ibiti bizana amahumbezi. Hakaba hari ndetse n'amavaze ateyemo indabyo.

Uyu mwana bari kumupima ibiro byiwe, bamwambika agakabutura kabugenewe, hanyuma bakamushyira ku munzani, ibiro bikaza hariya hejuru, kuri kiriya kintu nyine kimeze nk'umunzani, umuntu uri kumupima yambaye ishatu y'umweru, afite umusatsi w'umukara yaziritse, uryamye.

Umwana ukiri muto bajyanye kwa muganga kuvuza, nkuko bigaragara aricaye ari guseka ndetse hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa uri kumwitaho, hino hari undi muntu uhicaye wipfutse mu mutwe, bigaragara ko ashobora kuba yamuzanye kumuvuza.

Inzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'uburwayi bw'amaso aho hari agatebe katarenze kamwe kaharambitse, hejuru hamanitse n'ibipirizo byinshi by'ubururu n'umweru.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu, ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, handikishijweho mu ijambo ry'ubururu ngo inzu y'ababyeyi izwi nka materineti mu ndimi z'amahanga, hari ibiti birebire bihari.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari kumurongo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku imbere yabo hari intebe z'umukara ndetse n'indi y'urubaho ku ruhande rw'iburyo hari umuntu wicaye mu kagare k'abamugaye imbere ye hari abantu bicaye imbere y'imeza y'igitambaro cy'umweru.

Inyubako ngari cyane igaragara nk'aho ari kwa muganga, mo imbere harimo ibitanda ndetse n'amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru, hari udutanda dufite amapine ndetse n'intebe zitandukanye.

Umukobwa w'inzobe yambaye itaburiya y'umweru iriho n'utubara twa move, akaba afite ukuboko k'umwana muto uryamye ku gitanda, waje kwivuza, ari kukwikoza ku itama ngo yumve ko afite umuriro.

Aba ni baganga bari kwita ku barwayi harimo umukecuru wicaye mu kagare wa mbaye agapfukamunwa uri kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa, ndetse no ku ruhande rwe hari abandi baganga bari kwita ku bandi barwayi. Bigaragara ko rino vuriro rikora neza cyane rwose.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi yo kugendamo umukozi wabo w'umuganga wambaye imyambaro y'ubururu'imbere hari abandi bantu batandukanye bakora muri icyo kigo bambaye amataburiya y'umweru ndumu hakaba yakwakamo amatara asa umweru n'amakaro arasa nk'ivu.

Inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byabugenewe mu gutanga izo serivise ndetse hari n'ibitanda, bishasheho amashuka y'ubururu, abarwayi baryamaho.

Ni kwa muganga aho hari ibitanda byiza cyane bashyizeho utwuma dutangira umurwayi kugira ngo adahanuka, hari amashuka asa icyatsi ndetse n'amarido asa ubururu bwijimye atanduganya ibitanda.

Aha ni mu cyumba cy'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibikuta biteye amarangi y'umweru, purafo isa umutuku n'umuhondo, ndetse hakaba harimo n'ibitanda bijyamwaho n'abarwayi. Munsi hari utumeza tugiye dutandukanye ndetse na sima isa umutuku.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko serivisi z'ubuvuzi. Harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi, harimo ibyuma bakoreraho siporo ndetse n'ibitanda batwaraho abarwayi.

Agakumbe gateretse ahantu k'ikirahuri hakaba hari ijage iri gusukamo amazi, aya mazi ni meza agiye kunyobwa, ni byiza kunywa amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ari ingirakamaro.

Umuntu wagiye kwa muganga kwivuza, aho ari gutanga ikiganza umuganga akagenda apfuka akoresheje ibitambaro by'umweru, biragaragara ko uyu muntu ashaka kujya gukora siporo ariko ameze neza cyane.

Aha ni icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, aho hari igitanda kijyanho umuntu gisa umweru, umutwe w'uwo muntu bakaba bawegereje ku cyuma cy'uruziga gisa mweru, aho kigenda kikaraga kikamwongerera umwuka.

Hano hari indyo yuzuye hari ibirinda indwara ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga hari imbuto ,imboga, ibinyampeke, inyama hari n'ibikomoka ku matungo byose, amagi, imineke pawavro n'izindi mbuto zose hari n'imashini zitunganya imbuto.

Aha muri laburatwari kwa muganga aho babika ibikoresho byinshi cyane byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kureba indwara ku baganga b'inzobere ni bo babikoresha, indwara zananiranye cyangwa se indwara zidakunze gukira vuba.

Agakombe kari kugaragara ari gusukamwo amazi n'ijage ifashwe n'ikiganza cy'umuntu. Ikigaragara aya mazi ni meza, umuntu ugiye kuyanywa azagira ubuzima bwiza. Nawe nakugira inama yo kuzajya unywera amazi mu kirahuri, ukanywa amazi meza kuko agirira akamaro umubiri wawe.

Uducupa twinshi dutandukanye turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo aho tubona utureture, utugufi ndetse n'agakayito karimo imiti gasa ubururu.

Aka ni akuma kifashishwa na muganga ari gusuzuma ngo yumve umuntu umutima we utera, karasa ubururu ndetse hejuru gasa umweru, gafite utuntu ashyira mu gutwi maze kariya kantu k'imbere akagakoza ku umutima w'umuntu ngo yumve ko utera neza.

Aka ni agakoresho kifashishwa mu myitozo ngororamubiri, kakaba kariho utwuma dusa umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho santimetero zigiye zitandukanye, santimetero mirongo itandatu n'umunani, santimetero mirongo icyenda n'imwe, ijana n'imwe, hariho n'agatambaro gasa ubururu.

Indyo yuzuye igufasha gukora siporo mu bigufasha harimo ibinyomoro, amatunda, pome imineke, amacunga, indimu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye iyo wabiririye ubasha gukora siporo neza.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'umudari, afite umusatsi muke n'ubwanwa, akaba ari kunywa amazi mu gacupa. Amazi ni ingenzi cyane kuko atuma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza, hano hari umugabo wicaye yambaye ikote ari kunywa amazi ndetse yambaye n'ikabutura, nawe nakugira inama yo kunywa amazi kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane biba akarusho iyo ugenda bakagukorera massage, nkuko tubibona uyu muntu aryamye yubamye, hari undi muganga uri kumukorera massage aho ari kugenda amukanda umubiri wose kugira ngo umererwe neza.

Abantu batandukanye bahagaze mu mbuga y'amapave bigaragara ko bari gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Harimo bambaye imyenda isa icyatsi, umukara, umweru; abahungu ndetse n'abakobwa.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, nk'uko tubibona hano hari umuntu uryamye w'umukobwa, akaba ari kumwe na muganga wambaye agapira k'ubururu, aho ari kumushyiraho agatambaro gasa icyatsi, agenda amukorera masaje, kugira ngo umubiri we umererwe neza.

Umuntu ufite ikirenge gishushanyijeho amarangi ari mu ibara ry'umutuku n'ubururu aho bashushanyije bari gukikiza akabumbango, bavuga ngo iyo umuntu akora siporo neza cyane bituma akabumbango ke kagororoka.

Umwana wambaye agapira kari mu ibara rya oranje, acigatiwe na nyina, imbere ye hari umuganga wambaye imyambaro y'ubururu, ari kumuha ubutabazi bwihuse. Ni byiza kujyana umwana kwa muganga hakiri kare tukibona ibimenyetso mpuruza.

Agasanduku gapfungunye gasa icyatsi. Mo imbere harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye wakwifashisha kugira ngo ukore siporo igende neza. Harimo ibizingo ndetse n'imikasi n'ibindi bigiye bitandukanye byagufasha.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho amagambo ngo regenerative injections ini sport medicine byanditswe mu magambo y'umweru bivuga ngo bagiye kureba uburyo bateza imbere imyitozo ngororamubiri mu bijyanye n'ubuvuzi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umukara, hirya ye hari undi utagaragara igice cyo hejuru wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara bahagaze ahantu hari tapi zisa icyatsi ni nziza cyane.

Kugira ngo umuntu akore siporo hasabwara ibintu byinshi ubwa mbere uba ugomba kurya indyo yuzuye ikubiyemo imbuto, harimo imineke, pome, amacunga, imineke, ndetse n'ibindi ndetse ugaterura n'utwuma tugiye dutandukanye kugira ngo ukomere mu kuboko.

Ni byiza gukora siporo ngororamubiri kuko bituma ugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, nk'uko bigaragara uyu mugabo yambaye isengeri n'ikabutura ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arebe ko yagira ubuzima bwiza.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye mu nzu itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ariho bita kwa muganga, hari abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'umuntu uhicaye wambaye igitenge n'agapfukamunwa. Hari n'insakazamashusho iri kugaragara.

Abantu batandukanye bari mu nama, barahagaze, harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye utugofero dusa. Bari kureba imbere mu nsakazamashusho, umugabo uhari uri kubigisha icyo kiganiro wambaye itaburiya y'umweru. Ku meza hariho terefoni ndetse na za mudasobwa.

aha ni kwa muganga ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, muganga ari gusobanurira igikoresho gishya bazanye gikoreshwa umuntu ari gukora imyitozo ngorora mubiri aho kiririmo ibara ry'umweru ndetse kikaba gifite n'amapine.

Igikapu gisa umutuku gipfundikiye, haruguru yacyo hari ibindi bibiri harimo kimwe gifunguye nabyo bisa umutuku, nk'uko bigaragara harimo ibikoresho byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, harimo pomade ndetse n'utundi tuntu bifashisha dutandukanye.

Icyapa kiri mu mabara atandukanye ubururu, umutuku ndetse n'ibara ry'igitaka. Hari umuntu uri kugenda kuri mucaka hakaza umusaraba n'umuntu uri gusimbuka ndetse n'umuntu uri gukoma mu mashyi n'urutirigongo hagati yabyo bigaragaza ko ari uburyo bwo gukora siporo.

Uyu ni umuntu wakoze siporo, ari kwerekana nyine ko nyine iyo ukoze siporo amaraso atembera neza mu mubiri, ngo journal of sports medecine and therapy, then ubikurikirane.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, turi kuhabona urukweto rwiza rw'amabara y'umweru, umutuku n'umukara, balo y'umweru n'umukara, ndetse n'agakoresho kifashishwa n'abaganga bari gusuzuma ko umutima utera neza.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku akaba yicaye ku katebe mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imbere ye ku kameza ku mweru hateretseho mudasobwa iri kwaka ariko isa umukara, hirya ye hari ibindi bikoresho biri kugaragara mu mabara y'ubururu n'umweru.

Inyubako iri kugaragara mu mabara y'ubururu bwijimye, akaba ari inzu itangirwamo serivisi zo kwa muganga, harimo imifariso igiye itandukanye ndetse harimo n'igitanda gifite amapine bashyiraho abarwayi, hirya hari ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye yashyize inkweto ho amaboko ye, yambaye isengeri ari kwikorera imyitozo, ni byiza gukora imyitozo, nkuko ubona ko uyu mugabo ashimishijwe n'ibyo ari gukora.

Aha turi kuhabona umumama cyangwa umugabo bari mu myitozo, aho bagenda bakora imyitozo ngororamubiri, ubona ko bateruye ibyuma afite amatugu menshi cyane akomeye.

Hari ubwoko bwinshi bwa siporo zikorwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, hari siporo yo gukina umupira, hari iyo guterura ibyuma bigiye bitandukanye, hari iyo gukina n'udusimba, hari n'izindi zo kuganira.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi nkuko tubibona hano hari abasore n'abakobwa bari gukina umukino 'wamaboko wa basIketI boro, ku ruhande hari insina nyinshi cyane zihateye ndetse barishimye cyane.

Icyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda, ibitaro bya gisirikare. Aho bari kwerekana serivisi zitandukanye bakora. Nko gutera ibinya, bagatanga serivisi z'ubuvuzi no ku buzima bwabo.

Umuntu uri ukora siporo, uri kugenda yiruka ariko akozwe mu gipupe; hirya hari imiti bifashisha ndetse n'inshinge batera umuntu kugira ngo ajye akora siporo.

Igikoresho cyifashishwa muri siporo, aho kiri mu mabara y'umweru, hakaba hariho n'akabara k'icyatsi, kandi kantu kamera nka mubazi gasa ubururu n'umukara, inyuma hari amarito asa icyatsi.

Abantu babiri harimo umwe uhagaze uri gukora siporo n'igikapu imbere ye, hari n'undi wicaye ku ntebe y'urubaho, aho ari kunywa amazi, n'imbere ye harambitse naho igikapu, hirya ye harambitse akantu k'umweru k'uruziga.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'udukuteri twambarwa n'abaganga, afashe ikintu mu ntoki gisa igitaka bigaragara ko ari ikintu gifasha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga hatangirwamo serivisi zijyanye n'igororamubiri, aho hari intebe umuntu agenda yicaramo hanyuma ikagenda yikaraga umuntu agenda arushaho kugororoka. Hari ibikuta bisa umweru, hari n'insakazamashusho isa umukara ifunze, n'udutebe dusa icyatsi dufite amapine.

Iki ni ikizingo kifashishwa iyo umuntu agiye gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, aho ugifata ukakizinga ku kuboko kwawe, hanyuma ukajya uriruka uri kumva umeze neza kandi ukomeye, kikakurinda n'imbeho ya mu gitondo cyangwa se nimugoroba.

Aha hari kugaragara icyapa kiri mu mamabara y'icyatsi cyandikishijeho amagambo y'umweru avuga ati, "fiziyoterapi". Munsi hakaba harimo udufoto tw'abantu bagiye batandukanye, aho hari umuntu wicaye ibiganza byahuye, abantu batatu, n'undi muntu wicaye mu kagare ka siporo.

Ikirango kiri mu mabara y'umweru, ndetse hakaba harimo umusaraba mo hagati kikaba ari ikirango cya croix rouge. Abakorerabushake batabara imbabare nta nyungu babitezemo.

Intoki z'umuntu wambaye impeta, aho zifatiye akantu k'icyatsi ku nkokora z'umuntu bigaragara ko ari kugenda amukorera massage kugira yumve amerewe neza mu mubiri we.

Umugore wambaye agapira k'umweru kajya kumera nk'agashati, akaba afite ikibazo ku nkokora aho yafatiyeho agatambaro k'ubururu kugira ngo ahakire vuba.

Iyi ni inkweto nziza cyane yo mu bwoko bwa timba, irasa umukara ndetse iriho akarango kanditseho bato, iyi wayikoresha ukaba wayijyana nko mu birori n'ahandi hatandukanye.

Bari gusuzuma umwana bamureba mu mazuru cyangwa se mu maso bareba ko nta kibazo afite uyu muntu yarabihuguriwe urabona ko yambaye n'umwenda w'akazi ugaragaza ko abikoramo n'umwana nyine ariko niba ntakibazo afite.

Ibiganza bibiri byambaye ga cyangwa udupfukantoki tw'umukara. Utu twifashishwa iyo umuntu agiye gukora siporo, aho atwambara akagenda ari gukora siporo neza kugira ngo adahungabana nagwa ha hasi.

Iki ni cyuma kifashishwa mu buvuzi; gifite amabara y'umweru kiba kiraho utuntu dusa mu mabara y'ubururu, ndetse n'utundi tw'utuziga dusa umukara. Inzu kirimo ifite ibikuta bifite amabara y'umweru ndetse no hasi harasa umweru.

Ibyatsi bigiye bitandukanye aho ari ibyatsi byo mu kigunda, harimo n'ifoto y'urubingo ndetse n'ibyatsi byumye ariko ibi byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Udukoresho tumeze nk'utugemeri tugera muri hafi icyenda, turambitse ku gatanda kaboshye mu bifunzo, tukaba turimo imiti igiye itandukanye ya gakondo.

Ubwoko bw'ikimera kijya kumera nk'ururabyo ariko kifashishwa cyane mu buvuzi bwa gakondo. Aho kifashishwa bavura indwara zitandukanye cyane cyane harimo nk'ibicurane ndetse n'inkoro kikaba kirambitse ku ubutaka.

Aha turi kubona ubwoko bw'ibimera, bifite amababi agiye atandukanye, ajya gusa gusa umuhondo. Hirya hari umupira utukura, uri kugaragara. Ibi ni ibimera byifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Amoko y'ibyatsi cyangwa ibimera agiye atandukanye, ari kugaragara mu mabara atandukanye nubundi, hasa umuhondo umweru ubururu icyatsi ndetse n'indabyo zigiye zitandukanye, iyi yose ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, ntabwo ari ibyatsi.

Ibimera bimeze nk'indabyo bifite amababi agiye atandukanye by'ingirakamaro cyane kuko byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho babyifashisha bavura indwara zitandukanye. Muri izo ndwara harimo nk'indwara z'amarozi, inkorora ndetse n'izindi nyinshi.

Akagera medesine ubu ni uburyo bwiza cyane bwo kwivuza, aho ujya kwivuriza ku kagera medesine bakakugezaho ubuvuzi bw'ibanze bwa gakondo aho batavura indwara zitandukanye.

Akabido gapfundikije umupfundikizo w'ubururu, gakoze mu buryo bw'amayobera, hari munsi utuntu tumeze nk'ibitunguru, ibi bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa gasa n' umweru karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho bavura indwara zitandukanye zirimo n'uburozi.

Hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye ariko abantu benshi ntabwo bazi ko ibi byatsi byifashishwa nk'imiti gakondo aho bivura indwara zigiye zitandukanye harimo amarozi ndetse n'ibicurane.

Ururabyo rwiza cyane ruri ahantu umurima uteyemo indaby. izi ndabyo sizo bakoresha mu bukwe ahubwo iyi ni imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Aka ni gacupa karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi, aho handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse hakaba hananditseho amagambo bigaragaza ko kifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Uducupa tugera muri dutatu duteretse ku tuntu tw'umweru twa mpande enye, hakaba hari ahandi hantu hose hasa umweru, iyi miti iri muri utu uducupa ikaba yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Mu rwanda itabi bararyaga cyane, by'umwihariko itabi ry'urumogi, kuko ritera abantu benshi ingaruka cyane, ndetse nta nubwo ryemewe n'amategeko, iyo bagufashe uri kuricuruza baragufunga, cyangwa bagufata uri kuriyinywa bakagufunga.

Ibinini bisa ibara rya orange bigera mu icumi. Inyuma yabyo haba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara yanditse ku kapa gasa umuhondo ndetse n'icyatsi hashushanyijeho n'isahani irimo ubwoko bw'ibyokurya ibi byose bikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa dutandukanye turimo amoko y'imiti yagiye atandukanye, hari udushyaumuhondo n'udufite imipfundikizo y'umutuku, hirya a mababi y'ibyaro hari n'utundi twaze dufite imbuto z'umutuku hari n'akapa kanditseho ngo vegan bigaragaza ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi gakondo.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye harimo ibimera bimwe bifite amababi acagaguye aho ibimera bishobora kuba byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bivura indwara zigiye zitandukanye harimo n'indwara z'amarozi.

Aya ni amavuta yisiga mu maso. Ni amavuta meza cyane ahindura uruhu neza rukanyerera rugasa neza cyane, ku buryo umuntu wese wakubonye agira amatsiko yo kumenya aho waguriye amavuta.

Agacupa kari mu mabara y'umukara, umweru, ndetse n'icyatsi kijya kuba umuhondo. Gashushanyijeho inyoni, bigaragara ko karimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Utubido dutatu harimo tubiri dusa umweru n'akandi kamwe gasa umuhondo, tubiri dufite imipfundikizo igiye itandukanye harimo uw'umutuku wijimye ndetse n'usa icunga akandi gafite umupfundikizo w'ubururu, hirya hari ibindi bintu bimeze nk'ibipapayi bikasemo gatatu.

Iyi ni imiti y'amatungo, iri mu ducupa ipfundiki imifuniko y'icyatsi, hari n'ipfundikije imifuniko y'umweru iri mu ducupa tugiye gusa umukara, inyuma yaho urabona ko hari abantu nyine bari kuyikoresha.

Uducupa tugiye dutandukanye, harimo agacupa k'uruziga gasa umweru kandikishijeho amagambo y'umutuku, agasa umuhondo ndetse n'akandi kanditseho shampo. Iyi yose akaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo aho bavura indwara zigiye zitandukanye.

Utuvido dutatu dutandukanye harimo tubiri tw'umweru n'akandi k'umuhondo. Kamwe gafite umupfugikozo w'umukara, umuhondo ndetse n'ubururu, hiya hari igisate gihari.

Agacupa kometse ku gikuta kakaba kariho umupfundikizo w'umweru ndetse kandiditseho amagambo ngo handi sanitayiza, aho kirukana mikorobe ziri mu ntoki z'abantu.

Ibimera bisa icyatsi, hirya hari amabara n'ubundi asa icyatsi. Ibi bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bavura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane izanananiranye mu kizungu.

Ibimera bifite amabara y'umutuku, icyatsi, umuhondo, ndetse n'umweru, bikaba bifite n'amabara y'iroza, bigaragaza ko ari indabyo. Nyamara ibi biti bijya bikoreshwa mu buvuzi bwa.

Aha hari ibyatsi bya gakondo aho wateretsemo akantu kameze nk'ivase karambitsemo umuhini wako nawo ubaje muri ubu bwoko usa umukara, ibi bikaba bifasha mu buvuzi gakondo aho bino byatsi babisekurira muri aka kantu hanyuma bakabiha umurwayi.

Ikimera gifite amababi asa icyatsi agiye atandukanye, kiri kumwe n'ibindi bimera bigenzi byacyo, iki kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho bavura indwara zigiye zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu.

Ibiti by'indabyo aho hari umugore wambaye igitenge, ufashe ururabo rumwe, izo ntoki ze zirasa umukara.

Mu buvuzi gakondo bakoresha imiti igiye itandukanye, nk'uko tubibona, inanasi n'ayo irakoreshwa, hari icyapa cyangwa igikarito gisa umutuku n'umweru cyanditseho rudi, n'ibindi bigiye bitandukanye birimo iyo miti bifashisha,

Ikoma rishashe ku meza rirambitseho utuntu dutandukanye, harimo udusahani tw'imyeru tubiri, amacunga agera muri atanu n'utundi tuntu, harimo ubunyobwa, tangawizi n'injanga n'ibindi byatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Utubido tubiri gusa umweru dufite imivunikizo y'umutuku twandikishijeho amagambo y'umutu ku mpande yatwo haducupa n'ubundi ducmweru tu twikanyandikishijeho amagambo y'ubururu akanditsi hakaba hari n'icyapa cyamamaza ko iyo ari imiti ya gakondo.

Aya ni amakuru mu kinyarwanda agendanye n'ubuvuzi gakondo, aho tubona umugabo ari gucuruza imiti y'amatungo, ivanze n'imiti, ni imiti y'amatungo n'imbuto n'imboga, aho handitse ngo imiti igomba kugenzurwa na kugenzurwa na Rwanda FDA.

Utu ni ducupa tuba turimo imiti itandukanye yifashishwa handitseho ngo infinite, bisobanura ko harimo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bavura indwara za Kinyarwanda.

Agacupa gasa umweru kanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, hariho n'akarongo k'umuhondo, inyuma harasa umukara wijimye cyane nta kintu wabona uretse ako gacupa konyine, kakaba karimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ikimera gifite amababi abyibushye. Kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho kivura indwara zigiye zitandukanye. Cyane cyane indwara za kinyarwanda haba higanjemo amarozi.

Agacupa karimo umuti kandikishijweho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'ubururu, harimo akarango karimo igikeri kiri gusimbuka ndetse n'udufureshi dusa umweru turi mu tuzu tw'ubururu.

Icyapa cyanditseho umuntu wambaye ikositimu ndetse n'agashati w'umugabo, bakaba bari kwamamaza n'imiti itandukanye, uyu akaba ari umuvuzi gakondo uvura indwara zitandukanye, bakaba bari kumwamamaza ndetse n'ibikorwa bye akora.

Agacupa kari mu mabara y'umweru gatanditseho uturongo tw'icyatsi, handitseho amagambo ari mu ibara r'yicyatsi avuga ngo shampo, uyu akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho bavura indwara zigiye zitandukanye ndetse bajya bawukoresha no mu musatsi.

Ibyatsi bya gakondo, aho byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ibi byatsi birasa icyatsi bimeze nk'urumogi ariko byifashishwa bivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Aka ni agasahani kumwe gateretsemo akantu k'agakoroboyi na ko gasa umweru, karimo imiti iri gusa umuhondo, hirya hari tangawize ndetse n'icunga ridakase, bikaba bigaragaza ko iyi ari imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agacupa kari mu mabara y'umweru n'umuhondo kakaba gapfundikiye kameze nk'agacuritse, ushobora kukabona ukagira ngo ni aka korogate, ariko si uko biri kuko kaba karimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa tugiye dutandukanye tw'umweru twandikishijeho amagambo y'umutuku, hakaba hari n'akapa ku ruhande kamamaza, kavuga ngo biroroshye kugakoresha, kano gacupa kuko karimo umuti wa gakondo, uvura indwara zitandukanye.

Aka ni agashashi k'umuhondo karimo ibintu by'umukara mo imbere. Nk'uko bigaragara iyi ni imiti yifashishwa n'abavuzi ba gakondo aho baba bavura indwara zitandukanye harimo n'indwara zidakira cyane cyane indwara z'amaroza.